Inzu irimo abantu benshi bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, imbere yabo hakaba hari ameza ariho amazi yo kunywa n'ingofero n'imitako ikozwe mu ndabo. Inyuma yabo hari amadirishya akozwe mu byuma, afite ibara ry'umukara.

Inzu ifite igikuta gisize irangi ry'umweru, ihuriyemo abantu benshi batandukanye, harimo abicaye, umwe arahagaze, afite indangururamajwi mu ntoki ze, yambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'umweru n'ubururu.

Inzu irimo abantu benshi cyane bamwe bicaye ku ntebe zisa umutuku n'umuhondo abandi barahagaze, umwe muri bo yambaye imyenda isa umweru, inyuma ye hari irido ifashe ku gikuta gisize irange ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze inyuma yabo hakaba hari abicaye ku ntebe zikoze mu biti impande zabo hakaba hari imodoka nyinshi zitandukanye zifite amabara y'umweru umuhondo inyuma hakaba hari amazu ashinzwe gucuruza.

Abantu benshi bicaye hamwe imbere yabo hakaba hari ameza asa umweru umwe muri bo akaba afite imvaho imbere ye, terefoni n'amazi yo kunywa, akaba yifashe mu maboko.

Inzu irimo abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo harambitse ameza, umwe muri bo afite imisatsi y'umukara, yambaye umupira w'umweru, intoki ze zifite ikaramu ziri kwandika mu ikaye irambitse ku meza.

Abantu benshi bahuye hamwe harimo abahagaze n'abicaye ku ntebe zigiye zikozwe mu bintu bitandukanye yikoze mu giti inyuma yabo hari imodoka ziparitse hiyongeyeho n'imiyoboro y'amashanyarazi itwaye insinga.

Abantu benshi bicaye hamwe bafite ikintu bahuriyeho, ku ntebe zisa umukara. Umwe muri bo akaba yambaye ingofero y'umutuku n'ubwanwa bwinshi. Inyuma ye akaba akikijwe n'amabara menshi atandukanye ari ku rukuta harimo nk'ubururu, umweru, n'umuhondo.

Inzu ifite amatara amanitse hejuru ari kwaka, ikaba ihuriyemo n'abantu benshi bagiye batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hari undi uhahagaze.

Umugore uhagaze ufite imisatsi y'umukara miremire yambaye imyenda isa ubururu n'isaha ku kiganza cye, imbere ye hari icupa ririmo amazi ripfundikiye neza, inyuma hakaba hari urukuta rufite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye hamwe, imbere yaho, hakaba hari umuntu ubahagarariye uri kubagezaho insanganyamatsiko, iruhande rwe hakaba hari ikigega gifite irangi ry'ubururu, hirya ye hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umukara.

Abantu batatu bicaye ku ntebe zisa umukara bafashe ku meza asa umutuku, umwe muri bo ni mugabo akaba afite isaha ku kuboko, urupapuro rurambitse ku meza na telefone n'sakazamajwi.

Abantu benshi bicaye harimo abagore n'abagabo. Umwe muri bo yambaye imyenda y'ubururu n'imfashakureba. Inyuma yabo hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru n'ibyapa bishinzwe kwamamaza by'ubururu.

Umunara muremure wubatse mubyuma, ushinzwe gusakaza ikoranabuhanga, imbere yawo hari amazu atatu atandukanye, imwe muri yo yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, ifite n'amadirishya.

Umunara w'icyuma, ufite amabara atandukanye, harimo umutuku, umweru, hirya yawo hakaba hari inzu isize ibara ry'umweru n'umukara wijimye cyane ubonerana.

Umuntu wicaye ku ntebe wambaye imyenda isa ubururu, umweru n'umukara n'imfashakureba, imbere ye hari ameza arambitseho impapuro na mudasobwa iri kwaka yanditsemo amagambo atandukanye.

Igorofa ndende isize amarangi agiye atandukanye nk'umweru, ikaba izengurutswe n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hakaba hateye ubusitani bwiza, buteyemo ibyatsi n'ibiti birebire.

Umunara muremure ufite ibyuma bisa umutuku ukaba uzengurutswe n'ibyuma bifashe ku rukuta rusize irangi ry'umuhondo, imbere yaho hakaba hari inzira yubakishije utubuye dusa neza cyane.

Umunara uri mu kirere, ushinzwe gukwirakwiza ikoranabuhanga. Kandi ukaba ufite amabara atandukanye; harimo umweru, umutuku, n'umukara, ku byuma byawo.

Inzu isize irangi ry'umweru ku rukuta no ku rugi ikaba ifite amadirishya harimo ibirahuri. Mo imbere hakaba hicayemo umuntu wambaye ingofero imbere ye harambitse mudasobwa iri ku meza.

Ibara risa ubururu rikaba ryanditsemo amagambo atandukanye, w'ibara ry'umuhondo n'imibare munsi yaho hakaba hari igorofa, rifite ibara ry'umweru umukara n'ibyatsi birimo kuri iyo nzu hejuru.

Umunara muremure ukozwe mu byuma, ushinzwe gusakaza itumanaho, ukaba uzengurutswe n'ibindi byuma. Imbere yawo hari abanyamaguru bari kugenda mu nzira yabugenewe, hiyongeyeho n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Inzu isize irangi ry'umweru n'amakaro hasi, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, harimo umwe wicaye abandi barahagaze imbere yabo hari ameza asa umukara na mudasobwa, umwe muri bo yambaye umupira usa umutuku n'imisatsi y'umukara.

Ibara ry'umweru, rikaba ryanditswemo amagambo atandukanye, asa umukara, ubururu n'umweru, hejuru yaryo hakaba hari akazu kari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo uri guseka wambaye umupira w'ubururu, ikiganza ke kikaba gifashe telefoni mu ntoki iri kwaka ikaba yanditsemo amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'ubururu hiyongeyeho andi asa umweru n'umukara.

Umuyoboro w'amashanyarazi uriho insinga zisa umukara, hasi yaho hakaba hari urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye, ikaba izengurutswe n'ibyatsi birebire ndetse n'ibiti, hiyongeyeho n'amazu atuyemo abantu.

Igiti gikwiye gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi kiri hagati y'amazu, imwe muri zo ikaba iriho imodoka isa umweru n'umukara n'umuntu yihagaze imbere.

Amafoto abiri ashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ateyeho insinga, imbere yayo hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru n'umukara n'icyapa giteyeho kuri iyo nzu.

Inzu isizwe irange ry'umweru ikaba ifite amabati asa ubururu, izengurukijwe n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye; inyuma yarwo hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti hiyongeyeho n'umuyoboro w'amashanyarazi uriho insinga.

Igikorwaremezo k'icyuma gikwiye gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hariho insinga, kikaba gikikijwe n'ishyamba ririmo ibiti byinshi nk'insina inyuma yabo hakaba hari igorofa ndende ifite irangi ry'umweru.

Umunara muremure ukozwe mu cyuma, ushinzwe gukwirakwiza itumanaho, imbere yaho hari inzu ifite irangi ry'umweru n'umuhondo, hiyongeyeho n'umuyoboro w'amashanyarazi n'insinga ziri kunyura hejuru yayo.

Uruzitiro rwubakishije amabuye n'amatafari ahiye, imbere y'aho hakaba hari ishyamba rigizwe n'ibiti birebire cyane n'urusumba, n'insinga z'amashanyarazi ziri hejuru yacyo.

Umunara ukoze mu byuma ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Ukaba ukikijwe n'ishyamba. Imbere yaryo hari amazu abiri, imwe muri yo ifite ibara ry'umutuku n'uruzitiro rw'amatafari n'umunyamaguru uri kugenda mu nzira.

Inkingi zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, zikaba ziriho insinga z'umukara, imbere yayo hari inzu ifite amabati y'umutuku n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, inyuma yazo hari ibiti birebire.

Inzu yubakishijwe amatafari ahinye ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, inasize irangi ry'umweru, imbere yaho hari abantu babiri batandukanye, abari kugenda n'abahagaze hiyongeyeho n'ubusitani buhateye bwiza.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya arimo ibirahure, imbere yayo hakaba hari abantu bagiye batandukanye bari kugenda, umwe muri bo akaba yambaye umwenda usa umukara n'umusaraba mu gatuza.

Inzu ifite ibara ry'umweru n'umuhondo n'amadirishya y'ibirahuri, inzugi z'umukara imbere yaho hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi, n'icyapa k'icyuma kiri mu irangi ry'ubururu n'amagambo akwiye kwamamaza ibikorwa bikorerwa aho ngaho.

Inzu yubakishijwe urukuta rw'amabuye, isize irangi ry'umweru, imbere yaho hakaba hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'iby'imitende, hiyongeye n'ishyamba ry'ibiti birebire.

Inzu irimo abantu batatu b'igitsina gabo bagiye batandukanye. Umwe muri bo akaba yambaye imfashakureba areba imbere ye, hateretse ameza ariho urupapuro ndetse na mudasobwa irambuye.

Abantu bahagaze bambaye imyenda y'imikara bahagaze imbere y'ibendera barahira, imbere yabo hakaba hari abari kubafasha kurahira bicaye ku ntebe ziriho amakayi n'ibikapu byiza.

Abantu babiri bari gusuhuzanya mu biganza, umwe muri bo akaba yambaye ingofero isa umukara iciyemo utuziga tw'ibara ry'umuhondo n'imisatsi y'umukara cyane, hiyongeyeho nibifasha kureba mu maso.

Abantu bahagaze imbere y'amadapo, muri bo bakaba bambaye imyenda y'umutuku n'abambaye ubururu, inyuma y'abo hari igikuta cy'umweru n'umukara.

Abantu benshi bicaye munsi y'igiti, bamwe muri bo bafite imitaka ifite ibara ry'umutuku, umuhondo, n'ubururu. Imbere yaho hari umuntu wifashe mu maboko, wambaye imyenda isa kaki.

Umuntu wambaye ingofero arimo amabara atandukanye y'umukara n'umuhondo, imbere ye hari indangururamajwi, inyuma hakaba hari inkuta zifite amabara atandukanye y'icyatsi n'umukara zanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Igorofa ndende ifite irange ry'umweru n'umukara, amadirishya asa umweru. Imbere yayo hakaba hari umuntu uri kugenda aryegera wambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umukara n'umweru.

Abapolisi babiri bahagaze iruhande rwabo hakaba hari abanyamaguru bari kugenda, imbere yaho hakaba hari igorofa rifite ibara ry'umutuku n'igiti kiri imbere yacyo n'imodoka nyinshi.

Icyuma giteretse hasi gifite amabara atandukanye harimo umutuku, umukara n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, imbere yaryo hakaba hari ibikarito biri mu ibara rya kaki.

Inzu ifite urukuta rusize irangi ry'umweru, ikaba ifasheho ibikoresho bikozwe mu byuma, bifashisha bari kuzimya inkongi y'umuriro bisize irangi ry'umutuku, hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Abapolisi bahagaze bambaye impuzankano ifite ibara ry'umukara n'ingofero z'umukara inyuma yabo ha kaba hari igikuta cy'ubakishijwe amatafari ahiye, kizengurutswe n'ishyamba ry'biti birebire.

Umupolisi uhagaze wambaye imuzankano iri mu ibara ry'umukara n'ingofero y'umukara, imbere ye hari umuntu utwaye ipikipiki n'umugenzi, hiyongeyeho n'umuyoboro ukwiye gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi n'igorofa ndende.

Inzu ifite urukuta rusize irangi ry'umweru, hakaba hafasheho ibikoresho bikozwe mu byuma byifashishwa biri kuzimya umuriro, kimwe muri byo kikaba gifite irangi ry'umutuku n'umukara, hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye.

Imodoka ifite ibara ry'umukara n'amapine bisa, yanditsemo amagambo agiye atandukanye. Imbere yaho hari urukuta rw'amatafari ahiye n'ibiti birebire cyane bifite ibyatsi bitoshye.

Abantu benshi bambaye imyenda isa umweru bahuriyeho. Umwe muri bo arambuye ibiganza bye hejuru bifashe igishushanyo kiriho umuntu wambaye imfashakureba n'imyenda isa umukara n'umweru.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza arambitseho uducupa tw'amazi. Uwa kane ahagaze, yambaye imyenda y'umukara n'isaha ku kuboko kwe. Inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'icyatsi.

Inzu ifite ibishushanyo bibiri bifashe ku rukuta, imbere yayo hakaba hari abantu bagiye batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bamwe barahagaze abandi baricaye. Umwe muri bo yambaye imfashakureba n'inkweto z'umukara n'imyenda isa ubururu.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe ufite imisatsi y'umukara, yambaye imyenda irimo amabara n'umweru n'ubururu, imbere ye hakaba hateretse icupa ry'amazi n'impapuro mu ntoki ze ziri ku meza.

Inzu ihuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba harambitse ameza ariho ibikoresho bigiye bitandukanye nk'indangururamajwi n'amazi yo kunywa, undi ahagaze imbere yabo afite ibyo ari kubabwira, yambaye ipantaro isa umukara n'indangururamajwi mu ntoki.

Igikorwa remezo kirimo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto n'imodoka, hagati yabo hakaba hari abanyamaguru bategereje kwambuka, umwe muri bo akaba yikoreye imizigo afite aho ayijyanye habugenewe.

Inzu nyinshi zikikijwe n'ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, imbere yazo hakaba hari imodoka ziri kugenda zifite amabara atandukanye harimo: umweru, n'ubururu n'ubusitani bwiza cyane bwegereye aho hafi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi, kimwe muri byo kikaba kifite irangi ry'umweru n'umuntu ugitwaye, iruhande rwacyo hari ubusitani bw'icyatsi.

Igikorwa remezo, cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kimwe gisa umweru, gitwaye imizigo ihambirije imigozi ,imbere yacyo hakaba hari umuntu uri kugenda wambaye agatambaro mu mutwe.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ifite ibara ry'umweru, uruhande rwayo hakaba hari abantu babiri bari gucunga amagare atwaye imizigo, umwe akaba yambaye icyatsi, hirya ye hakaba hari ishyamba ry'ibiti birebire.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kirimo ikinyabiziga na kimwe cy'imitende ibiri gitwara imizigo. Iruhande rwawo hakaba hari ibiti birebire cyane bisumba n'amazu agiye atandukanye, imwe ifite irange ry'umutuku.

Igikorwa remezo cy'umuhanda gifite inzira yahariwe abanyamaguru itarimo umuntu n'umwe. Ikaba iri kugendamo imodoka eshatu hirya yaho hakaba hateye ubusitani bufite ibiti byiza, hiyongeyeho n'imiyoboro y'amashanyarazi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, kirimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, bimwe muri byo bitwaye abantu. Ibumoso bwabo hari abanyamaguru bahagaze, abandi bari kugenda, n'inzu z'ubucuruzi bwabugenewe.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, n'abantu bari kuwugendamo. Iruhande rwawo hakaba hari amagorofa maremare, n'amapoto akwiye gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ku bantu benshi.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga byinshi biri kugenda, kimwe muri byo gifite ibara ry'umutuku n'umuhondo n'umweru ku byuma. Ukikijwe n'ibiti birebire cyane byakuze n'amazu n'amagorofa.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo ikinyabiziga kimwe gifite irangi ry'umutuku n'amapine y'umukara, hirya yaho haba hari inzira yagenewe abanyamaguru n'ibiti biteye birebire cyane, hiyongeyeho n'amazu ari inyuma yayo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi kimwe kikaba gifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara, hirya yawo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, hino yawo hakaba hari ibiti birebire cyane.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kunyuramo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, iruhande rwayo hakaba hari inzira yahariwe abanyamaguru iri kunyuramo umuntu hiyongeyeho n'ibiti birebire cyane ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Imihanda irimo ibinyabiziga byinshi, ikaba itandukanywa n'ubusitani burimo ibiti, hakaba hari umuntu uri gukoramo amasuku n'ibindi bintu, inyuma yabo hakaba hari amazu menshi.

Inzu isize irangi ry'umweru ku nkuta, ikaba irimo intebe zikozwe mu byuma, inyuma yaho hakaba hicayemo abantu babiri. Umwe wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hakaba hateye ishyamba ry'ibiti birebire.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, kikaba giciyemo akaziga mu ibara ry'umutuku, karimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye n'umuntu ubitwaye; kimwe hasi, hakaba handitse amagambo agiye atandukanye.

Igikuta gisize irange ry'umweru, imbere yaho hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi, hashinzemo icyuma gifite icyapa gisize irange ry'umutuku, umweru n'umukara, hirya yaho hakaba hari imodoka iparitse.

Inzu isize irange ry'umuhondo imbere yabo hakaba hari umunyamaguru uri kugenda mu nzira yabugenewe, hiyongeyeho umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi kandi n'ubusitani buteyemo imikindo hagati.

Icyapa gikozwe mu cyuma gisize irangi ry'umweru n'umutuku kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Inyuma yacyo gikikijwe n'ubusitani burimo ibiti n'indabo nziza.

Ubusitani buri imbere y'inzu, ikaba ifite ibirahuri, irangi ry'umweru, hirya yayo hakaba hari ibiti birebire cyane, hino y'ubusitani hakaba hari inzira y'abanyamaguru bacamo bari kugenda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, gifasha umuyobozi w'ikinyabiziga, kimubwira kugenda mu muyoboro umwe, nta handi anyuze, kugira ngo atitambika abandi mu mihanda yabo.

Inzu isize irangi ry'umweru ikaba yubatsemo amadirishya afite ibirahure by'umweru, imbere yayo haparitse ikinyabiziga k'imitende ibiri, kandi ifite ubusitani butemo ibyatsi n'ibiti birebire.

Amagorofa atatu maremare atandukanye imwe muri zo iri hagati ikaba ifite irangi ry'umutuku no n' amamodoka iparitse iruhande rwayo, ibiti n'ubusitani bwiza kandi butunganye.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye n'abanyamaguru bari kugenda; iruhande rwayo hakaba ari igorofa ndende ifite irangi ry'umweru, hiyongeyeho n'urutsinga rw'amashanyarazi ruri guca hejuru.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hejuru yayo bateretse impintara ikozwe mu byuma. Imbere yayo hari igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bigenda bitandukanye hiyongeho n'abanyamaguru bari kugenda.

Inzu nyinshi zigiye zitandukanye zubatse mu buryo bwa kijyambere, imwe muri zo ikaba ifite irangi ry'umweru n'uruzitiro rw'amatafari ahiye, imbere yayo hari inzira y'abanyamaguru hiyongeyeho n'umurima uhinzemo ibigori.

Igorofa ndende isize irangi ry'umweru n'umukara, ikaba isakajwe amabati asa umutuku, imbere yaho hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, ikaba ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Amagorofa abiri atandukanye, imwe ikaba yubakishijwe amatafari ahiye n'irange risa umweru, imbere yayo hari ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda n'abanyamaguru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi muri byo bifite ama irange ry'ubururu, umweru n'umukara n'umunyamaguru uri kugendera kuri uwo muhanda, inyuma y'izo modoka hari inzu ifite ibirahure n'ibara ry'umweru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kunyuramo amapikipiiki atwaye abantu, imbere yabo hakaba hari igorofa ndende ifite irangi ry'umweru hiyongeyeho n'ubusitani bwiza buteye imbere yayo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye n'abanyamaguru bari kwambuka, abandi bagenda mu nzira yabugenewe. Imbere yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu...

Igikorwa remezo cy'umuhanda gifite inzira yahariwe abanyamaguru, iri kunyuramo abantu babiri, umwe wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'ubururu, imbere ye hakaba hari igorofa ndende isize irangi ry'umweru yubakishije amatafari ahiye.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kiriho ibinyabiziga byinshi cyane n'umuntu uri kugenda mu gice cyahariwe inzira y'abanyamaguru, imbere yayo hari inzu ifite uruzitiro rw'ibiti n'ibyatsi biri imbere yayo.

Igorofa ndende ifite ibirahuri biteyeho irangi ry'ubururu, imbere yaho haparitse ibinyabiziga byinshi n'abanyamaguru bahagaze batari kugenda. Umwe muri bo yambaye umupira usa umuhondo, imbere ye hari undi uhagaze.

Ibikorwaremezo harimo umuhanda n'ikiraro imbere y'icyo kiraro hakaba hari amatara ahacanye, hirya yawo hakaba hari abanyamaguru bari kugenda n'imodoka ziparitse zitari kugenda hafi y'amazu.

Imihanda ibiri irimo ibinyabiziga byinshi, ikaba itandukanwa n'ubusitani n'ibiti birebire, hirya yayo hakaba hari igice kigendamo abanyamaguru, bisanzuye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya yaho hakaba hari inzira yahariwe abanyamaguru irimo umuntu umwe. Itandukanyijwe n'ubusitani buteyemo ibiti by'umukindo, hirya yaho hari umuyoboro w'amashanyarazi.

Imihanda irimo ibinyabiziga ikaba itandukanya n'ubusitani buteyemo ibyatsi n'imikindo, iruhande rwawo hakaba hari abanyamaguru bari kugenda ahabugenewe n'urukuta rukozwe mu mabuye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi n'abanyamaguru bari kwambuka n'abagenda, mu gice cyabuhariwe ukaba ukikijwe n'ishyamba ririmo ibiti birebire, imbere yaho hakaba hari amazu y'amagorofa afite amarangi y'umweru n'amabati atukura.

Imihanda ibiri itandukanyijwe n'ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'imikindo. Imbere yawo hari umunyamaguru uri kugenda mu gice cyabugenewe n'inzu ndende ifite uruzitiro rw'amatafari.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bitandukanye, bikaba bifite inzira yahariwe abanyamaguru bari kugenda n'abatagenda, imbere yaho hakaba hari ubusitani bwiza cyane butewemo n'imiti.

Ibikorwa remezo by'umuhanda, biyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'amapiki atwaye abantu, ikaba itandukanijwe n'ubusitani butewemo n'ibiti, hirya yaho hakaba hari inzira ihari yahariwe abanyamaguru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'ipikipiki, ibinyabiziga by'imitende ibiri ndetse n'igari, ihande rwacyo hakaba hari ubusitani bwiza buteyemo ibyatsi ndetse n'imikindo hiyongeyeho n'urukuta rwiza rurerure.

Ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti byegereye umuhanda ufite irangi, ry'umweru n'umukara inyuma yabwo hakaba hari igorofa rifite irangi ry'umweru n'amadirishya asa umweru.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'iby'imitende, ibiri amapikipiki n'amagare, hiyongeyeho n'inzira yahariwe abanyamaguru, bari kugenda n'abahagaze ndetse n'ubusitani buwukikije buteyemo ibiti.